Imiti igiye itandukanye ivura abantu, uko bigaragara akaba ari umuganga ufite imbere ye cyangwa ku meza ye hariho imiti igiye itandukanye yo kuvura indwara zigiye zitandukanye, akaba ari ahantu ushobora kuba wagurira imiti cyangwa aho batangira imiti mu bitaro, cyangwa no gufata imiti mu gihe bayikwandikiye kwa muganga.

Inzu ibamo imiti y'abantu cyangwa ishobora kuba ari n'inyamaswa. Uko bigaragara akaba ari imiti y'abantu, aho abantu bajya gufata imiti cyangwa kugura imiti, mu gihe barwaye cyangwa umuganga yayibandikiye. Akaba ari ahantu haboneka imiti yakozwe n'inganda zo kuvura ikoreshwa mu buvuzi.

Umurima w'amageri, uko bigaragara akaba ari amageri ari mu murima atari yazana imbuto, akaba akiri matoya cyane kuko bigaragara ko atari yatanga umusaruro atari yazana imiteja, ahubwo afite indabo yiteguye kuzana imiteja.

Ibyatsi bigiye bitandukanye biri ahantu mu murima, bigaragara ko ari ibyatsi byakoreshwaga cyane, cyangwa n'ubu ngubu bikoreshwa mu miti gakondo cyane, imiti ya kinyarwanda aho bakoresha uburyo bwo kuvuguta, cyangwa ubundi buryo bwo gukora iyi miti yo mu kinyarwanda.

Ibyatsi bigiye bitandukanye bikoreshwa mu miti gakondo, imiti ikomoka ku bimera, imiti abanyarwanda bakoresha bivura indwara zigiye zitandukanye, mu bihe byo hambere mu gihe imiti y'abazungu itari yakaza, imiti abanyarwanda bakoreshaga ikaba ari imiti gakondo.

Icyatsi kiboneka mu ishyamba cyane cyane kitwa ikidariya, kikaba icyatsi kiribwa n'intama ndetse n'amahene akaba ashobora kukirya, n'inka zimwe na zimwe zikaba zakirya ,akaba ari icyatsi kiboneka cyane cyane mu ishyamba cyangwa ku gasozi mu bice bigiye bitandukanye.